Iyi shusho iri kutwereka abantu bicaye bahuriye hamwe ku bw'ikintu runaka bagiye kuganiraho nk'inama harimo abayobozi, imbere yaho hateretse amazi baricaye bari gukurikirana inama.

Abantu bicaye ahantu hamwe, hano hari umumama urabona ko akurikiye, imbere hari ikirahure, hari ivide irimo ikindi kintu kunywa, urabona ko bakurikiye hari ikintu cyamuzanye.

Iki ngiki ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara. Ikingiki nuzakibona uri mu muhanda uzamenyeko uwo muhanda urimo uragendamo iburyo n'ibumoso hashamikiyeho utundi duhanda dutoya.

Abantu bicarana hamwe bagiye bakora amatsinda, bicaye ukuntu kuntu, bame nkaho bafite insanganyamatsiko bari kuganiraho, hari umuntu ufite icyo ari kubabwira, bari kwandika bimwe mu byabaye.

Abantu bateraniye hamwe, ni abantu benshi, imbere yabo hateretse za mudasobwa bari mu nama, urababona ko hari ikintu cyabahurije hamwe bari kuvugaho muri iyo nama.

Bashobora kutwereka abantu bicaye, ni benshi, imbere yabo hateretse amazi, hamwe muri ho hateretse na mudasobwa, bameze nk'aho bari mu nama, hari ikintu cyabahurije hamwe.

Biragaragara muri iyi shusho ko ari inama y'ubuyobozi, ni inama yitabiriwemo n'abantu benshi benshi ndetse bari no kuri mudasobwa zabo, imbere yabo hari mudasobwa, hari n'amazi y'Inyange bari kunywa, bigaragara ko bahuze.

Hano hari ishusho iri kutwereka abantu babiri bahagaze n'abandi bicaye, bameze nk'aho bari kuganira bari mu nama; aba babiri bahagaze barimo baragira icyo bababwira, bari kubaganiriza.

Hano hari abantu imbere yabo hari umuntu umeze nkaho ari kubigisha hari n'amashusho bashyize imbere nyine bari kureberaho, baricaye nk'aho ari mu nama, hari abantu bane imbere yabo bose hari mudasobwa, baricaye umwe niwe uhagaze imbere yabo.

Abantu bicaye hamwe bari mu nama hari icyabahuje, imbere yabo hateretse amazi yo kunywa amazi y'inyange hari abantu benshi, imbere yabo harimo n'umuntu uri kubayobora muri iyo nama bafite ikintu runaka baje kuganiraho.

Hari abayobozi bicaye hamwe urabona ko mu nzego bicaye imbere imbere yabo hari imashini cyangwa se mudasobwa zibafasha mu mirimo yabo ya buri munsi urabona ko bicaye bafite icyo bari kuvugaho bagiye hamwe bari kuganira.

Mu gikorwa cyo kuganira cyangwa se inama abantu baricaye bari kumva ubaganirira umuntu umwe uri kubabwira ibijyanye n'ibyo bajemo ahagaze imbere yabo ari kubayobora babwira bimwe mu isanganyamatsiko.

Abantu benshi bateraniye hamwe bafite icyabahuje, harimo abayobozi muri bo bafite icyo kuganiraho, bafite insanganyamatsiko runaka bose bashaka guhuriza hamwe igisubizo cy'icyabahuje.

Iyi shusho iri kutwereka abantu bicaye mu ruganiro, mu nama cyangwa se muri sare, bafite ikintu runaka bari kuvugaho, ni ababyeyi, ni abantu b'abamama b'ibitsinagore batatu.

Hano hari intore, ziri ku rugerero zicaye hamwe, ziri mu nama uko bigaragara. Bambaye n'iniforume yo hejuru, yerekana ko ari intore ziri ku rugerero.

Hano hari inama y'abayobozi, imbere hicaye abantu babiri, bigaragara ko bari mu nama, imbere yabo hari amazi ari mu ducupa tw'Inyange na mudasobwa zibari imbere.

Abantu bari hamwe bahuje umugambi bari kuganira, ubona ko hari umuntu ubayoboye bicaye ahantu hamwe, ni abantu benshi batari benshi cyane, barakurikiye bari kumva icyo bari kubwirwa.

Hano hari umuntu w'igitsina gore wambaye amarinete, ufite ingororamajwi mu ntoki umeze nk'aho hari abantu kubwira, imbere hateretse ikirahure kirimo amazi n'icupa ry'amazi.

Abantu bari kuganira ubona ko bahuje ibiganiro abantu batatu bicaye ku meza amwe, imbere yabo hateretse ibintu bari gukoresha hatetse n'amazi, hateretse n'ibipapuro barimo barakoreraho nk'inama bari kuganiraho.

Ubu bateraniye hamwe, bicaye hamwe, imbere yabo bamwe hari za mudasobwa, ahandi bafite amakaramu n'amakayi bari kwandika, ubona ko bakurikiranye uri kugira icyo ababwira, bateze amatwi.

Abantu bateraniye hamwe, ubona ko bicaye ari abantu benshi, hari umuntu uhagaze inyuma yabo abona ko ari ushinzwe serivise, imbere yabo barikuhareba, hashobora kuba hari umuntu, bafite icyabahurije hamwe, inama se cyangwa ibindi bikorwa.

Hano bari kutwereka umunara. Ni muremure ku buryo n'igicu kiri kuzamo igice cy'umweru n'ubururu. Uyu munara rero ni umutuku n'umweru, amabara asizeho. Ni uw'icyuma.

Hari akazu karimo umunara kaba gafunze kugira ngo umuntu wese atinjiramo akangiza ibikorwa by'umunara. Umunara utanga murandasi, utuma abantu bahamagarana, urabona ko ufasha ibintu byinshi. Ni umunara muremure ukozwe mu byuma.

Hano hari indi serivisi yo irembo ya "byikorere". Intambwe ya kabiri, ukanda kuri "kwiyandikisha" gukoresha ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga. Ibisabwa: Usaba agomba kuba afite indangamuntu y'Igihugu cy'u Rwanda, usaba agomba kuba afite imyaka hejuru y'imyaka cumi ni'itandatu, abasaba bagomba kugira nimero ya telefoni cyangwa aderesi ya emeyili bikora, kugira ngo bakire imenyesha. Ni www.irembo.gov.rw.

Turi gutanga akazi muri Rwanda revenue Authority, itariki ntarengwa, umuntu bari gushaka ni umuntu ukora muri EBM, ibintu bijyanye na EBM usinye amasezerano y'umwaka umwe; itariki ntarengwa yo gusinya amasezerano ni makumyabiri n'ebyiri z'ukwa kabiri bibiri na makumyabiri na kane.

Ni serivise yo ku irembo bita byikorere ku buryo umenya ukuntu wakiyandikisha mu gukora ikizam cyo gutwara dukunze kwita perime mu rurimi rw'amahanga, hano barabikwereka bakakwereka inzira wakoresha kugira ngo wiyandikishe nawe uzabashe gukora ikizami.

Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo, yari iri kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umurimo, bari kwerekana abatumirwa batumiwe muri uwo munsi, bafite insanganyamatsiko igira iti "ubumenyi n'umurimo unoze, inkingi y'iterambere" bari bashyizeho abo batumiye, bashiraho numero za telefoni n'amasaha, berekana icyo kiganiro kiri bunyure kuri televiziyo y'u Rwanda.

Mu RURA, ubaye ukeneye serivisi zo gutwara abantu n'ibintu muri RURA ugakoresha uburyo wabigenza; ni RURA ifasha gutwaza abantu n'ibintu, kubatwara, n'uburyo wabigenza. Baguha e-mail yabo, no guhamagara bahamagara kabiri enye.

Barikutwereka uko umuntu yishyura umusoro bitewe n'amafaranga yinjiza ku kwezi. Nk'aha ngaha umuntu winjiza amafaranga ibihumbi mirongo itandatu ku kwezi nta musoro yishyura. Uwishyura mirongo itandatu kugeza ku bihumbi ijana yishyura icumi ku ijana ku ijana. Nuko nguko ugenda ubibara kugira ngo umenye umuntu amafaranga yishyura y'umusoro.

Hano bari kutwereka umunara w'amashanyarazi, hari abatekinisiye cyangwa se ababishinzwe, bari kureba bari kubisuzuma bareba niba nta kibazo gihari.

Serivisi itangwa n'irembo, ya byikorera nanone, bakwereka uburyo ukora, ushaka nko kujya mu gipolisi cyangwa se mu bindi bakakwereka uko ubigenza, maze nawe ukikorera iyo serivisi.

Abantu b'igitsina gabo n'igitsina gore umwe, bafite mudasobwa zabo mu ntoki, ubona ko hari ibyo bari kurebamo, bahagaze hamwe, baregeranye ubona ko bakora ibikorwa bi...

Ubu ni uburyo wakwiyandikisha kugira ngo ujye utanga imisoro, harimo aho wandika amazina yose, igitsina cyawe, igihugu, ukandikamo imyirondoro yawe yose.

Iki ni icyapa kiri kwerekana ikirori cyo gushimira abantu bishyuye imisoro, bashyizeho igihe kizabera n'aho kizabera, bashimira abantu bishyura imisoro.

Hano bari kutwereka umunara murebure ugiye uriho amateni atanga amanetiwaka cyangwa se amakonegisiyo mu rurimi rw'amahanga.

Kuri RBA ni ikiganiro kiri bunyureho kivuga ku musoro w'ipatanti y'igihembwe cya nyuma, bavuga ko ari tariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa mbere bibiri na makumyabiri na kane, ni umunsi kuri radiyo Rwanda icyo kiganiro cyari bunyureho.

Amakipe mu bihugu byo hanze hari ikipe y'umupira w'amaguru hari n'ikipe y'umupira wa basiketibolo byatewe inkunga n'u Rwanda na viziti Rwanda urabona ko bambaye imipira yanditseho viziti Rwanda.

Abantu bicaye ari babiri, nyuma y'abo hari abandi ubona ko hari ikintu bari kuganiraho, bahuje ibiganiro, imbere y'abo hateretse mudasobwa, hateretse telefone, urabona ko hari ikintu bari kuganiraho, inyuma y'abo hari abandi bantu bicaye, bose bahuje urugara.

Hano hari umuntu waje ahantu nko kuri banke cyangwa se ahantu babitsa bakanabikuza amafaranga, yaje kubitsa cyangwa kubikura, imbere ye hari abantu batanga izo serivise cyangwa se bashinzwe ibyo bintu.

Hano bari kutwereka umunara utanga ufasha mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga utanga kugira abantu bavugane byumvikane ubaha interineti.

Hano hari ishusho iri kutwereka Minagri, ni uburyo wakiyandikisha muri Minagri, wuzuzamo ibisabwa byose aderesi zawe, amazina, indangamuntu...

Iguriro ricuruza ibikoresho by'ubwoko bwose, ikirango cyerekana ibyo bacuruza, cyerekana n'aho iryo guriro ryaba riherereye ku buryo bitakugora, mu gihe waba ukeneye icyo kuguramo wahagera.

Iri ni irembo, byikorere. Ni uburyo bugufasha kwikorera ibintu byose bitagusabye, ukoresheje irembo muri telefone yawe bitagusabye gukora urugendo ujya gushaka aho bagufasha gukoresha serivisi, ukabyikorera muri telefoni.

Abakozi bakora mu bijyanye n'amashanyarazi na bo buriye ipoto, umunara, bari gutunganya ibijyanye n'amashanyarazi bigaragara ko hari ibitagenda neza baje gukosora ,urabona ko bari mu kazi.

Mu muhanda umuhanda munini urimo abantu bakora isuku muri uwo muhanda harimo umuntu uri gukubura kugira ngo use neza hirya inyuma ye hari amafoto hari amatara yo ku muhanda ndetse n'abantu bari kugenda mu muhanda bandi basanzwe.

Itara ryo ku muhanda riba rirerire ry'icyuma rimurikira umuhanda. Ni bimwe mu bikorwa remezo leta ishyira mu umuhanda kugira ngo umuhanda ugaragara neza amasaha ya nimugoroba mu gihe haba hari kwaka hagaragara nta mwijima uhari.

Ipoto ifashe insinga zitwara amashanyarazi mu ngo zitandukanye ziri aho hafi, iyo poto iri hepfo y'ahantu hari imirima hateye ibisheke hari n'urugo rw'abantu ruri hirya.

Iyi shusho iri kutwereka, amatara yo mu muhanda anyuraho amasinga. Bari kutwereka n'ibicu, izo nsinga ni izitawara umuriro. Hasi hagiye hari uruzitiro rw'amabuye ahiye n'ibiti hirya. ibiti bitandu

Hano hari ishusho, umunara muremure, umunara ufashe amasinga menshi atanga umuriro, ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga.

Ibi ni ibiti biri ahantu hamwe biri inyuma y'ipoto hari poto ifasheho insinga insinga zijyana umuriro mu ngo ziriho zitandukanye zikikijwe n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umunara muremure w'ibyuma ukoze mu byuma unyuramo insinga nyinshi zijyana umuriro cyangwa z'amashanyarazi mu ngo zitandukanye ziri aho hafi, urabonako hari insinga nyinshi kubera ko uyu munara uyobora umuriro mu ngo nyinshi.

Umunara muremure, uriho insinga ziwuzengurutse zijya muri buri rugo rutuye aho hafi cyangwa se buri nyubako kugira ngo bibahe umuriro, izo nsinga zigemura umuriro muri izo nzu, umuriro w'amashanyarazi, kugira ngo buri wese abone ayo mashanyarazi ashobora gucomeka telefone no gucana amatara mu gihe bwije.

Ipoto rirerire rikozwe mu byuma, riri ahantu abaturage begereye ku buryo rifite insinga zohereza amashanyarazi mu ngo z'abo baturage, buri muturage afatiraho umuriro kugira ngo abashe kugira amashanyarazi mu nzu ye.

Ni umunara munini muremure, uriho amasinga insinga zijyana amashanyarazi, ni muremure cyane harimo insinga ziwunyuramo ziyobora ayo mashanyarazi uba uri gutanga.

Inyubako nini igerekeranye, ni nini muburyo bw'ubutambike, bigaragara ko hari ibintu bikorerwa, imbere yayo hari ipoto rinini rijyana amashanyarazi ahantu hatandukanye, rirerire, ririho insinga zijyanayo mashanyarazi.

Mu nzira abantu bari kugenda mu nzira isanzwe y'abagenzi imbere hari ipoto ryo mu munara w'amashanyarazi insinga ufashe insinga ziyobora amashanyarazi mu ngo ziraho hafi z'abaturage.

Ipoto rirerire rifashe insinga ziyobora umuriro w'amashanyarazi mu ngo cyangwag se mu nyubako ziri aho hafi, iryo poto rishinze ahantu hagati y'ibiti biri ruguru y'umuhanda, hari ahantu hatekanye ku buryo nta cyarihungabanya.

Hano iyi shusho iri kutwereka amapoto yo mu muhanda atanga amashanyarazi mu ngo zitandukanye, mu muhanda harimo ibinyabiziga bitandukanye harimo n'abantu bari kugenda ruguru y'umuhanda hari amazu atuyemo abantu.

Hano bari kutwereka mu muhanda, umuhanda ruguru yawo hari amazu atuyemo abantu, hari ibiti bihakikije, mu muhanda harimo rero amagare, harimo umunyonzi utwaye imizigo, hari n'uwitwaye ku igare ry'umuntu umwe, harimo n'abandi bantu bari kugenda mu muhanda.

Umunara muremure muremure cyane ku buryo nta kintu cyo hasi cyapfa kuhungabanya. Ufashe insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi mu ngo ziba ziriho hafi ku buryo buri muturage abona amashanyarazi nk'uko bayifuza.

Aha ndikubona uruzitiro rurimo imbere, uruzitiro rusa ubururu, ibara ry'ubururu hino hari inzu, hari n'umunara ugiye uriho amasinga ajyana umuriro hirya no hino.

Itara rirerire ryo ku muhanda rimurika mu masaha ya ni mugoroba, iyo butangiye kwira kugira ngo buri muntu uri mu muhanda abe yumva afite umutekano, kuko ari ahantu habona hatari umwijima. Hepfo y'iri tara hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda mu mabara atatu nk'ibisanzwe, hepfo hari imodoka isanzwe nayo.

Hano hari umuhanda bari kutwereka hirya y'umuhanda hari imodoka ihaparitse, hari abantu bahari, hari inyubako z'ubucuruzi zihari, hari ipoto ry'amashanyarazi, hari ubucuruzi butandukanye.

Iri ni ipoto rirerire ririho insinga zigemura umuriro mu ngo ziri aho hafi, urabona ko ari amapoto ari ku murongo agiye ahererekanya insinga, kugira ngo bazigeze ku baturage, gusa ayo mapoto yo ateye ahantu heza hatangiza.

Umunara muremure ukoze mu byuma, hariho insinga zigiye zinyuranamo zijya mu ngo ziri aho hafi kugira ngo zibahe amashanyarazi, umuriro w'amashanyarazi, urabona ko hariho insinga nyinshi bigaragara ko uyu munara utanga umuriro mu ngo nyinshi ziri aho hafi.

Icyanya kinini gikorerwamo ibintu runaka byo mu rwego rwa leta, bigenewe abaturage, bibaha ubuzima bwiza, urabona ko harimo ibikoresho byose bijyanye n'ibihakorerwa.

Hano hari ikimenyetso cyerekana ko nta modoka zigenda ku ruhande rwo hepfo, giciyeho umurongo inyuma yacyo hari amapoto hirya hari urugo rukorotiriye cyangwa se ruriho uruzitiro hari n'igiti kinini kiriho amashami.

Muri raboratwari cyangwa se aho bakorera isuzuma kwa muganga, bapimira ibipimo babafasha ku barwayi, ubona ko harimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga bibafasha muri ubwo buryo bwo gusuzuma, ibyo bimenyetso by'abarwayi, kugira ngo babone icyo barwaye.

Imodoka ishinzwe gutwara abarwayi b'indembe, ni modoka bita Ambulance mu rurimi rw'amahanga, irahagaze ahantu, hepfo yaho hari inyubako ishobora kuba ari iy'ibitaro cyangwa irindi vuriro.

Ishusho iri kutwereka abantu bameze nk'aho hari serivisi runaka bategereje, baricaye barategeje bari kugenda hagenda umwe umwe, hameze nk'aho kwa muganga ku kigo nderabuzima.

Ahantu hari ubusitani bwiza, hari inyubako isa neza, ubona ko ari ku kigo nderabuzima cyangwa se ivuriro risanzwe, bagufasha mu gihe uje kwivuza baguha serivise nziza. Hari isuku, hagaragara neza.

Ishusho iri kutwereka abantu benshi bari mu kigo nderabuzima niko bigaragara hari abarwayi baryamye, ku ntebe hari abandi bategereje ,hari abarwaje amoko menshi.

Hano bari kutwereka icyapa cy'ibitaro bya Kacyiru. Kiraranga aho ibiro biba, aho izo ndwara zivurirwa, byose bari kubyerekana.

Inyubako igaragara ko ikorerwamo ibikorwa bya leta, bafasha mu bintu bijyanye n'ibya leta, byashobora kuba se amashuri, ashobora kuba se ivuriro, haba hari icyapa cyerekana inzira kikuyobora aho ugiye.

Hano bari kutwereka inyubako y'ibitaro yitwa King Faisal Hospital cyangwa se umwami Faisal; ibitaro bikorera Faisal. Ni inyubako imbere yayo hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, riri hagati y' andi mapoto.

Ahantu hanini hakorerwa ibikorwa bya leta bifasha abaturage, imbere hari kandagira ukararabe, ni aho winjirira ukabanza ugakaraba kugira ngo winjirane isuku, hatagira abo usuhuza ukabanduza nk'indwara runaka cyangwa se n'ibindi.

Abantu b'abacamanza bambaye imyenda y'umwuga wabo, bari gusuhuzanya ubona ko hari ibyo bemeranyijeho bishimye ndetse n'abandi bakorana bafatanyije uwo murimo, bari kubaha amashyi urabona ko babishimiye mu bikorwa bari barimo, amasezerano se bagiranye.

Kizito Mihigo umwe wari mu bahanzi b'abanyarwanda yahangaga indirimbo z'inyarwanda nziza zikundwa n'abantu abo aribo bose, inyuma ye hari abantu benshi bicaye ni benshi benshi baricaye nabo bategereje kumva icyakorwa hano.

Mu rukiko, aho hari imfungwa cyangwa se umugororwa, waje mu rubanza kuburana ari kumwe n'umwavoka we, harimo n'abacamanza n'abantu baje kwitabira urwo rubanza, kumva uko rusomwa, urabona ko bose babyiteguye bari imbere.

Abantu ubona ko ari abagororwa, bicaye imbere ya za mudasobwa bari kubigisha bambaye udupfukamunwa mu uburyo bwo kwirinda, bicaye ahantu hamwe, bari gukora ibyo baberekera, inyuma yabo hari abashinzwe umutekano.

Mu kigo ngororamuco harimo abagororwa benshi baba bambaye imyenda isa, ni impuzankano zisa, haba hari abashinzwe umutekano babayobora baba bari kumwe.

Abantu bateraniye hamwe bafite icyo bari kuganiraho bari kujya inama se cyangwa baganira ku bindi, ubona ko hari umuntu ubayoboye uri kubaganiriza ababwira insanganyamatsiko, ni abantu bo mu rwego rw'ubuyobozi bari kuvuga ku bya leta bashingiye ku kibateza.

Hano bari kutwereka abagororwa, cyangwa se imfungwa, bambaye imyenda ya oranje, bariku, bafashe mu gatuza, bamanitse akaboko k'iburyo, bigaragara ko hari ibyo bari bari kubwi.

Umuntu wicaye hagati y'abacamanza babiri, bambaye impuzakano zigaragaza umwuga wabo, ni umuntu w'umugororwa ngo ari guhanirwa ibyaha yakoze cyangwa se aje kuburana, kugira ngo bamurenganure cyangwa se icyaha kimuhame, urabona ko bari gusoma amategeko, bari gusoma ibijyanye n'uru rubanza.

Abacamanza bari kurahira, bafashe ku idarapo ry'igihugu, bari kurahira indahiro z'uko bazakora mu mwuga wabo, batazakoresha amarangamutima, baba bafite uko bagenderaho barahira, urabona ko bari kurahira binjiye mu mwuga.

umuntu uhagaze ari imbere y'abandi inyuma ye hari abashinzwe umutekano n abandi bicaye ubona ko ari mu rukiko yaje kuburana cyangwa se mu manza bisanzwe yambaye amataratara n'umugabo arahagaze arikumva ibyabwirwa.

Mu rukiko aho umugororwa ari kuganira n'abacamanza be, urabona ko bari kumugira inama y'ukuntu yaburana kugira ngo ikirego cye cyitabweho neza. Bambaye impuzankano zerekana umwuga wabo bakora, ubona ko baba babyitabiriye.

Umucamanza ari kumwe n'umugororwa amwereka uko urubanza rwe bari kurwiga, ubona ko bari gusobanurana ibijyanye n'uko urubanza ruri bugende, urebe nimba arengana cyangwa ari burenganurwe.

Hano hari ifoto y'abantu bari mu muhanda, harimo ibinyabiziga, abantu, abikoreye muzigo, ruguru hari inyubako ndetse no hirya cyane hari ishyamba.

Hano hari inyubako ya polisi ni sitasiyo ya polisi, ni ku cyicaro gikuru cya polisi muri Gasabo Akarere ka Gasabo, giherereye i Remera.

Hano bari kutwereka umupolisi bimeze nkaho ari kuvugana n'uyu mushoferi, ni nka serivisi ari kumuha, cyangwa se ubundi bufasha bigaragara ko amuhagarikije mu muhanda.

Umuhanda munini w'umukara, harimo imodoka nini ya polisi, isize amabara y'umukara n'umweru, imbere handitseho ijambo polisi, ni nini iba ifite umwanya munini w'inyuma. Muri uwo muhanda harimo n'ibindi binyabiziga, harimo moto, izindi modoka, ni munini ku buryo hajyamo ibinyabiziga byinshi.

Hano hari abashinzwe kuzimya inkongi, bari kuzimya umuriro mu bigaragara kuko hari n'abantu bahari benshi baje kureba icyo gikorwa.

Iyi shusho iri kutwereka kizimyamwoto, ni kizimyamwoto imanitse ahantu, ku buryo hagize umuriro uje yagufasha kuzimya iyo nkongi mu nyubako.

Ahantu habugenewe ho guparika imodoka, haparitse imodoka yo mu bwoko bwa toyota ifite amabara y'umweru ndetse haba hanazitiye ubona ko nta cyapfa kwinjira ngo kihungabanya haba harinzwe, iri ahantu heza hari inyubako nziza, inyubako ifite amarangi meza, ubona ko hasa neza.

Umupolisi wambaye iniforume z'igipolisi cy'u Rwanda, ni ukorera mu muhanda ushinzwe kureba ibinyabiziga niba byakurikije amategekeo yo mu muhanda. Yambaye iniforume za polisi y'u Rwanda, aba ari kureba ko nta makosa akorerwa mu muhanda.

Abantu bashinzwe kuzimya, bari baje kuzimya umuriro wa gaze, yatse umuriro mwinshi ku buryo ari gutwika n'abantu, hano ababishinzwe baje kuzimya uwo muriro, urabona ko babyambariye, bambaye imyenda yarugenewe y'akazi kabo.

Ishusho cyangwa se ikirango cyerekana ahantu polisi y'u Rwanda iherereye yo mu karere ka Nyarugenge, ni muri Rwezamenyo, iyo sitasiyo niyo iherereye, hari telefoni wababona aho ukeneye ibyihutirwa.

Mu modoka ya polisi ifuba ifite intebe bicaraho hejuru ku mwanya w'inyuma, iparitse hantu nawe imbere ya nizigama ku muhima, n'ishami ryo ku muhima ryazigama mu imodoka iyiparitse imbere yayo.

Hano muri iyi shusho barikutwereka imodoka y'umukara ihaparitse, hari umupolisi uyihagaze impande, inyuma y'iyo modoka hari inyubako nini isize amarangi y'umweru y'amagorofa.

Mu muhanda hari imodoka nini ya Polisi iri hirya, isize amabara y'umukara n'umweru urabona ko harimo abantu, hano ku rundi ruhande hari imodoka y'umukara iri mu muhanda, urabona ko nayo ifite amerekezo iri kujyamo.

Mu muhanda harimo abashinzwe umutekano wo mu muhanda ari bo abapolisi, baba bari kubireba neza bareba abatwara bihuta, bareba abatakurikije amategeko ndetse harimo n'abantu basanzwe ubona ko bari kugenda mu muhanda bisanzuye.

Kizimyamwoto wifashisha mu gihe hari inkongi yafashe ahantu mu buryo bwihuse, ni yo wifashisha igahita igufasha mu gihe bibaye bigutunguye, ihita igufasha kuzimya iyo nkongi.

Ni kizimyamwoto, ni ikintu wifashisha mu kuzimya inkongi y'umuriro mu gihe hari inkongi yaka cyane ahantu runaka, bifashisha ugiye kuzimya iyo nkongi y'umuriro, ifasha guhosha umuriro ikawugabanya.

Abapolisi bahagaze imbere yabo hari umuyobozi wabo aba ari kubabwira amategeko n'amabwizwa ku kazi kari bukorwe uwo munsi, ku buryo buri muntu amenya icyo gukora. Urabona ko baba bakurikiye bita ku byo bari kubwirwa.

Umuntu w'umuyobozi, ni mu nzego zo hejuru, yicaye mu ntebe ari gufata ifoto, hirya ye hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, urabona ko yabyiteguye.

Ishusho iri kutwereka ikiganza cy'umuntu, yerekana intoki ze ukuntu yatoye, yerekana igikumwe kiriho umuti, kuko yatoresheje igikumwe.

Hano hari inama irimo abayobozi batandukanye, harimo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda na madame Jeannette Kagame, baricaye bameza nk'abari mu nama, hari umuntu bakurikiye.

Mu gihe cyo kwiyamamaza ku mwanya wa perezida, uyu Philippe yari afite indangururamajwi ari kwiyamamaza, abwira abaturage imigambi ye, kugira ngo abumvishe uko agomba kuzabayobora neza, agaragiwe n'abandi bari iruhande rwe, ubona ko bamuteze amatwi.

Umuntu w'igitsina gore wicaye afite impapuro mu ntoki, imbere ye hari ibikoresho hari n'idarapo, urabona ko ari mu nzego z'ubuyobozi zo hejuru, ari mu biro cyangwa se mu nyubako akoreramo imirimo ye.

Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda ari gusuhuzanya n'undi muntu wo mu nzego zikomeye z'ubuyobozi, urabona ko bishimye, bafite urugwiro, hari abandi bari kubakomera amashyi, babyishimiye na bo, urabona ko ari ibintu byo mu nzego z'ubuyobozi, bishimiye ikintu runaka.

Umuntu yari yaje kwiyamamaza umwanya w'ubuperezida yari yaje mu baturage kwiyamamarizamo, urabona ko hari abari bamwishimiye bari kumusuhuza abana bari kumuhobera ubona ko bari bafite n'ibyapa byanditse amazina ye.

Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, yari ari gutambuka, agana mu byicaro bye, ni ahantu hari hateraniye abantu benshi, ubona ko hari igikorwa kigiye kuhabera, bari bamwishimiye, bakoma amashyi, bafotora, ari ibintu byiza, bari bishimiye kubona perezida wabo.

Abantu bicaye ahantu hamwe, ndabona ko ari benshi harimo abamama, harimo abapapa, imbere yabo hari umuntu umwe uri kubabwira, usa nimufashe ijambo mu byabateranyirije aho ngaho nawe ari kubivugaho, ubona ko bose bitabiriye kugira ngo bahuze umugambi we.

Ahantu habereye amatora abona ko umuntu ari gushyimo agapapuro ke k'itora ahabugenewe, kugira ngo dutore binyuze mu mucyo, buri wese agashyira ahiwe ku buryo bari bubare amajwi ntawatoye inshuro ebyiri, haba hari ababishinzwe bari kubireba.

Abantu batatu, harimo nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aho bari bari kwerekana amatora y'abari bari kwiyamamariza ubu perezida bw'u Rwanda. Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda ariwe wayatsinze wagizeh mirongo icyenda n'icyenda ibice cumi na bitanu ku ijana, abandi bakaba baragize ibice, ibice.

Hano hari abantu bambaye amakoti harimo nyakubahwa perezida wa repubulika w'igihugu cy'u Rwanda harimo n'abandi bamwungirije harimo n'abandi baperezida bahagaze ahantu bimeze nk'aho bari gufata ifoto.

Hano hari abantu bari kwamamaza, bigaragara ko bari kwamamaza umuntu, hano bari bari mu matora, hano muntu uri kwiyamamaza yari ahari ubwo bameze nk'aho bari kugira icyo babwira abantu bari mu nama, hicaye abantu batatu umwe uri kwiyamamaza ni warufashe...

Nyakubahwa perezida wa Repubulika w'u Rwanda Paul Kagame yari ari kwiyamamaza ahantu hari abaturage benshi, ni intara runaka yari yagiyemo. Abashinzwe umutekano be baba bari aho hafi ndetse n'abaturage baje kumutora baba bahari, urabona ko ari ibintu byiza abantu bishimye.

Mu umuhanda wa kaburimbo nawo w'umukara hari kugenderamo ibinyabiziga by'ubwoko bwinshi bwose butandukanye, hari kugerandemo n'abantu, umuhanda munini.

Umuhanda munini wo mu bwoko bwa kaburimbo usa umukara, harimo ikinyabiziga cya moto gitwawe n'umuntu w'umugabo urabona ko wisanzuye, umuhanda uri ahantu heza harinzwe.

Ni mu muhanda umuhanda ukoze neza hari imodoka nini itwara abaturage, umuhanda harimo abantu bari kugenda iyo modoka isize amarange y'ubururu hariho umweru itwaye abantu abagenzi aho baba bagiye ikabajyana ikabagezayo.

Iyi shusho iri kutwereka aho moto ziparitse n'abamotari bazo bari kumwe nazo, ni aho ziparika mbese, aho zihagarara.

Hano turi kuhabona umuhanda nanone urimo ikinyabiziga cya moto ururimi rw'amahanga cg se igitogoto gitwara imizigo gifite umwanya munini inyuma ku buryo ushyiramo imizigo.

Mu muhanda harimo ibinyabiziga hari abantu bari kunyuramo, harimo imodoka nini irimo itwara imizigo cyangwa se ibindi bintu, ifite umwanya munini inyuma itwaramo ibintu, hari amamoto atwaye abagenzi ari mu muhanda yerekera aho yateganyije kujya, hari abantu bari kugenda mu muhanda nabo ubona ko bisanzuye.

Iyi foto iri kutwereka moto, ziri mu muhanda, ni zimwe mu binyabiziga ziparitse ahantu, ubona ko ziparitse ahantu zitegereje abagenzi.

Aha hari umuhanda, ni mu muhanda w'umukara n'ubundi bimeze nk'aho ari mu masaha nimugoroba, mu muhanda harimo ibinyabiziga bitandukanye, imodoka, amamoto, imodoka nini zo mu bwoko bw'imodoka z'ibikamyo cyangwa se hoho ziri mu muhanda.

Hano hari ikigare, muri iyi shusho harimo ikigare cy'amapine abiri cy'ibyuma, gitwara imizigo hari n'abantu bari kugenda.

Mu muhanda harimo amagare atwara abagenzi na ba nyirayo b'abanyonzi barahari bigaragara ko bari mu kazi bategereje abagenzi ngo babatware, ni mu masaha ya nimugoroba, hari abantu bagenda mu muhanda bisanzwe.

Mu muhanda harimo moto nini iba ifite umwanya inyuma utwarwamo ibintu yaba ari imizigo cyangwa se ibindi bikoresho, iri mu muhanda w'umukara ruguru y'umuhanda cyangwag se hirya hari uruzitiro ruzitiye ahantu hari icyanya kinini hakorerwa ibikorwa bisanzwe.

Mu muhanda harimo imodoka y'umukara isanzwe, hepfo yiyo modoka na none mu muhanda hari moto nini yo mu bwoko bwa lifani ni moto nini ifite umwanya inyuma itwarwamo imizigo itari mwinshi cyane, biri kugendera mu muhanda urabona ko ari umuhanda.

Iyi shusho iri kutwereka ibinyabiziga biri mu muhanda, hari moto itwaye umugenzi hirya yiyo moto hari indi modoka nini dukunze kwita hoho itwara imizigo. Ruguru y'uwo muhanda hari uruganda rugaragara ko ari uruganda runini rukorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Mu muhanda haba harimo nkahantu uruhane rurimo imirongo y'umweru abaturage bambukira muri uyu muhanda harimo imodoka n'itwara imizigo inyuma urabona ko haba hari umwanya wo gutwaramo ibyo bintu abantu mu muhanda baragenda bisanzwe barisanzuye bizera umutekano.

Muri gare ahantu haparitse imodoka babona ko hari abantu benshi baba baje gutega imodoka abandi ahari abashoferi bazitwara, banakora imodoka nyinshi z'ubwoko bwose ziba ziparitse ku buryo buri muntu ashatse ha yihuse uha amafaranga menshi n'indi y'abagenzi basanzwe mugen mundi benshi mutegerereza.

Imodoka nini itwara abagenzi, iri mu muhanda, itwaye abagenzi bisanzwe, muri uwo muhanda harimo n'igare, umuhanda ugenderamo ibinyabiziga by'Isi yose byinshi by'ubwoko butandukanye.

Imodoka nini itwara i imizigo inyuma ku gice cyayo cy'inyuma hari umwanya munini iri mu muhanda irikugenda, inyuma yayo hari izindi moto, ibindi binyabiziga bisanzwe bigendera mu muhanda, umuhanda munini ugendamo buri kintu cyose cy'ikinyabiziga n'abantu bagenderamo.

Uyu muhanda wa kaburimbo cg se umuhanda w'umukara hari kugenderamo ibinyabiziga by'ubwoko bwose, umuhanda munini cyane ugendamo ibinyabiziga byose, yaba amamoto, imodoka nini n'intoya, ruguru y'umuhanda hari inyubako nziza, hagiye hari amatara akekeje umuhanda.

Iyi shusho iri kutwereka imodoka ijyamo amazi. Iyi modoka igemura amazi ahantu runaka. Imodoka iri mu muhanda, imodoka ni nini, ifite umwanya munini bashyiramo amazi.

Imodoka yo mu bwoko bwa Stella, ni itwara abagenzi ibajyana mu ntara cyangwa se aho hafi, itwara abantu bose, urabona ko ifite uburinzi, iba yiteguye, irimo ibikoresho bihagije kugira ngo itware abagenzi.

Mu muhanda, inzira y'abagenzi, harimo umugenzi wikoreye umuzigo, uyu muhanda harimo ibinyabiziga mu masaha ya nimugoroba, ubonako n'amatara yo ku muhanda yatse, hari ibinyabiziga bihaparitse, hari n'ibiri kugenda n'abagenzi basanzwe bari kugenda.

Imodoka nini iri kwerekana imbere inyuma hatwarwa imizigo, inyuma hari umwanya munini, na yo ni nini, iri mu muhanda, harimo n'izindi nyinshi, ruguru y'umuhanda hari inzira nyabagendwa y'abagenzi, ruguru y'iyo nzira hari ibiti, urabona ko uyu muhanda ukukijwe neza.

Imodoka yo mu bwoko bw'ivatiri ni umweru, ifite amarangi y'umweru, amapine y'umukara, hariho n'amarangi y'umuhondo. Ni imodoka ishinzwe gutwara abantu, itwara abantu batari benshi, iba yisanzuye kuko hataba harimo abantu benshi. Iparitse ahantu mu muhanda w'ibitaka.

Imodoka nini ya so itwaye nayo itwa inyuma, mu mwanya w'inyuma hari umwanya munini wo gutwaramo imizigo, iri mu muhanda iri kugenda inyuma yaho, hari izindi modoka mu muhanda munini igendamo ibinyabizigaguru y'umuhanda, hari inzira y'abagenzi, ku kindi gice hariruguru y'umuhandatwara inzira bagenzi, ruguru hakaba izindi nzu z'abaturage zisanzwe.

Ni mu muhanda aho hagenderamo ibinyabiziga byinshi by'amoko yose, muri uyu muhanda harimo imodoka nini, nini itwara ibintu isize amarangi y'umutuku, harimo na za moto, harimo abanyonzi b'amagare babona ko baba bisanzuye mu muhanda bagendera ku mategeko ya leta n'uburyo bakoresha umuhanda.

Mu muhanda harimo imodoka nini itwara abagenzi yo mu bwoko bwa Sitela, harimo n'izindi modoka ziri kugenda mu muhanda, ni mu masaha ya n'imugoroba, amatara yo mu muhanda ari kwaka, urabona ko umujyi uri kwaka.

Moto yo mu bwoko bunini bwarifani iba ifite umwanya inyuma washyiramo imizigo itari myinshi cyane itwawe n'umuntu w'umugabo iri mu muhanda iri kugenda urabona ko itwikiriye ku buryo ibikoresho washyiramo byaba birenzwe.

Hano hari kutwereka umuhanda, umuhanda w'umukara. Ruguru yaho ho gato hari ahantu barekera imodoka cyangwa baparirika imodoka, rero haparitse amamodoka abiri y'umweru. Iri inyuma ifite purake ya r a b umunani kane rimwe r.

Hano hari imodoka itwara abantu iri mu muhanda urimo n'abantu mu muhanda, inyuma yayo hari izindi modoka n'amazu ageretse ndetse n'amapoto mu muhanda.

Umuhanda munini mwiza, harimo kugendamo ibinyabiziga, hari ikinyabiziga kinini gitwara imizigo, harimo imifuka ipakiyemo ibintu runaka, mu muhanda hari kugendamo n'amamoto n'amagare, urabona ko aba ari umuhanda munini.

Imodoka nini iri mu bwoko bwa fuso itwara imizigo inyuma hari umwanya munini wo gutwara imizigo iri mu muhanda ugendamo ibinyabiziga byose n'izindi modoka zitwara abagenzi bagendamo hirya hari n'imyanya y'abagenzi basanzwe bagendamo.

Mu muhanda munini urimo ibinyabiziga byinshi by'ubwoko bwose, harimo amagare, imodoka, amamoto, harimo n'abagenzi abantu basanzwe bari kuwugendamo, ruguru y'umuhanda hari sitasiyo itanga ibintu by'amavuta yo mu modoka ya esansi.

Imodoka nini iri mu muhanda, ifite umwanya inyuma itwaramo imizigo se cyangwa ibindi bikoresho, hari umuntu uyitwaye, muri uwo muhanda haba hari kugendamo abantu, abaturage, abantu bose baba bagendamo.

Ishusho irikutwereka imodoka yo mu bwoko bwa Mitsubishi, n'imodoka imbere ifite ahantu umuntu yicara, inyuma hari umwanya munini watwaramo imizigo yawe, iri mu muhanda wu....

Ahantu ni igice kimwe cyo mu muhanda abantu bagendamo, ariko nta binyabiziga binini bicamo, ntabwo twacyita ko ari nk'umuhanda, abantu bahaca ahantu hisanzuye heza mu mujyi wa Kigali.

Ni ubusitani bwiza ni ikibuga kinini cy'imyidagaduro, abantu bari gukiniramo, bakinamo umupira w'amaguru, abandi bisanzuramo, hari umwanya munini ni hanini ubona ko hisanzuye.

Ikibuga kinini gikinirwamo imikino n'imyidagaduro. Hano bakiniramo umukino w'amaboko banaga umupira bawurenza kano gatambitsemo. Bawita vore boro mu rurimi rw'amahanga.

Mu kibuga cy'imyidagaduro harimo abantu bari gukina, bari gukina umupira w'amaguru, bari guhererekanya mu kibuga, ikibuga cyiza gikoze neza bari gukiniramo, ubona nako babyishimiye, inyuma y'ikibuga hari andi mazu, n'umuhanda usanzwe.

Kuri iyi shusho dufiteho icyapa cyerekana ahantu ikibuga cy'indege cya Kigali kiri. Iki cyapa cyerekana n'ahantu Konvesheni, Konvesheni senta cyangwa se Radisson, ni inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali na yo, batwereka ibirometero bisabwa kugira uyigereho.

Ni mu muhanda, hirya y'umuhanda hari ubusitani bwiza, hari n'inzira nyabagendwa abantu bagenderamo, hari umuntu uri kugenderamo. Hirya hari inyubako igerekeranye, nziza.

Ikirango kimanitse ahantu hepfo y'umuhanda cyerekanako umuhanda uzamuka, ugenda imbere ugahita uzamuka ku gice cya ruguru, ikirango cyerekana aho uwo muhanda uba ujya, mu muhanda munini w'umukara ugendamo ibinyabizi.

Hano turi kuhabona icyapa cyerekana, ni icyapa kiba mu muhanda cyerekana umutuku, bivuze ko imodoka ihagarara abantu bakambuke, haba n'umuhondo n'icyatsi, icyatsi cyo kugira ngo imodoka igende.

Ikirango kinini cyerekana akarere ka Rusizi aho gaherereye, kirerekana umuhanda unyuramo ujya Rusizi. Urabona ko ari kinini, cyanditseho amagambo manini ku buryo umuntu wese yabisoma akayoborwa.

Ikirango cyo mu muhanda, kiba kiriho umuntu uri kugenda, bisobanuye ko ari aho umugenzi yambukira, ari inzira y'umugenzi, kiri ahantu heza ku muhanda, ku buryo buri wese akibona.

Icyapa cyo mu muhanda kiyobora abagenzi nimba bambuka cyangwa se imodoka nimba zigenda, iyo hajemo icyatsi aba ari mu mwanya w'abagenzi wo kwambuka, wajemo icyatsi byerekana ko umuntu yemerewe kwambuka umuhanda.

Ibirango byo ku muhanda bigaragaza aho ugiye kimwe ni kigali nyarugenge umuhanda wa gatatu, ikindi ni kigali nyarugenge umuhanda wa mirongo itatu, bikuyobora bitewe n'aho ugiye ugahita umenya icyerekezo cy'aho ugiye.

Aha bari kutwereka ibyapa hari icyapa cyerekana akarere ka Gicumbi inzira ijya mu karere ka Gicumbi bakatwereka n'ikindi cyapa gitanga ikaze muri repubulika y'u Rwanda hari n'umuntu uri kuza rwose ufite igikapu umeze nk'aho ari kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda.

Ni icyapa kiri ahantu gishinze ahantu hari ibyatsi hari n'ibiti, cyerekana ko imere kuri uwo muhanda harirose rikata bigaragara ko uri bugende ugahita umenya aho ugiye, umuhanda iki cyapa kirakuyobora.

Ibiti birebire, ni birebire, biri ahantu rugura y'umuhanda, mu muhanda harimo imodoka nyinshi zitandukanye n'amamoto n'ibinyabiziga bitandukanye, biri hagati y'ibyo biti bikikije umuhanda

Mu muhanda harimo abantu. Hari inzu n'ibikorwa bisanzwe, nini nziza hari imodoka mu muhanda ziri kugendamo, abantu bagenda gusa ubona ko harimo ubwisanzure, umutekano mwiza amapoto yo ku muhanda aba arinzwe ubona ko ari sawa.

Iyi nzu bari kutwereka hejuru ku gisenge cy'inzu hari amabati, ndetse hakurya ku kindi gice, hari amazu menshi yegeranye nayo n'ibisenge byayo bigaragara, ni ibisenge bifite amabara atandukanye, ubona ko biri ahantu hitaruwe.

Umuhanda ukorerwa ibintu by'ubucuruzi, ni amazu ari ku murongo, amazu y'ubucuruzi ari ahantu hamwe bacuruza ibintu byinshi bitandukanye, hari aho bacuruza ibyo kwambara ibiribwa n'ibintu byo mu bwoko butandukanye, hari abacuruzi hari n'abaguzi b'ibyo bintu.

Inyubako nziza ya Regasi hoteli. Ni inyubako wagenda ugafatamo icumbi ukazajya wishyura, ku buryo waharara, bakaguha icyo kurya, icyo kunywa, mbese ukabona ubayeho neza.

Ishusho iri kutwereka, ni igiporoso koridori ni mu giporoso, ni ahantu hari inzira abantu baba bagendamo n'amodoka agendamo, na moto. Ni izira nyabagendwa, bari kutwereka harimo abantu bari kugenda, abandi baza. Haparitsemo harimo n'ibinyabiziga.

Inyubako iri mu ruzitiro runini, inyubako nini ndende igerekeyije, iri ahantu heza, igaragara neza, isize amarange y'umweru, umukara hariho amakaro, ubona ko igaragara neza.

Muri pariki harimo ibiti harimo abantu bahicaye, ni pariki ya Nyandungu aho ugenda ukajya mu myidagaduro ugatwara amagare mbese hari ibikorwa byinshi wahakorera.

Mu muhanda w'amabuye, hirya yawo hagiye hari amatara yo ku muhanda, amapoto afashe insinga ziyobora umuriro, hari n'ingo z'abaturage ziri aho hafi, izo nsinga zijyana umuriro w'amashanyarazi mu ngo ziba ziri aho hafi kugira ngo nabo babone umuriro.

Muri aya mashusho bari kutwereka amazu ameze nkaho ari ahantu hamwe . Ni mu ruganda rukora ibintu bijyanye no kubaka harimo n'amamashini yifashishwa mu kubaka, ni runini.

Mu muhanda ni umuhanda munini ukikijwe n'ubusitani n'imikindo harimo isuko, iyo mihanda harimo amamoto hagenderamo ibibinyabiziga byose, mu muhanda uhuriramo aho imihanda ihurira hari imyanya myinshi.

Mu muhanda munini hari ahantu hari mirongo y'umweru habugenewe ho kwambuka, abantu barahambukira, hirya hari abantu benshi ubona ko hari amazu atuyemo abantu...

Umuhanda munini, urabona ko ugenderamo ibinyabiziga, hari ahantu hari imirongo y'umweru, bigaragara ko abantu ariho bambukira, umuntu ushaka kwambuka ava kuru ruhande rumwe, ajya kurundi, ni aho yambukira, uyu muhanda ukikijwe n'ubusitani bwiza, amatara yo ku muhanda, mu gihe bwije akahaca.

Umuhanda munini uhita ucamo imihanda ibiri, hepfo hahita yajya umuhanda n'undi muhanda uturutse ruguru ari umuhanda umwe, umuhanda w'umukara wa kaburimbo, hagati igice gitandukanye iyo mihanda ibiri, harimo ubusitani bwiza hateyemo igiti ubona ko ari heza cyane.

Hano bari kutwereka ishusho imodoka iri mu muhanda iyo modoka ni imodoka yanditseho Rwanda mosiramu komyunite, ubwo ni imodoka igaragaza ko ikoreshwa ibikorwa by'abayisira, ruguru y'umuhanda hari sitasiyo bigaragara ko bashyiramo amavuta mu modoka cyangwa se mazutu mu muhanda harimo izindi modoka.

Inzira y'abagenzi iyo nzira hepfo harimo umuhanda, umuhanda urimo ibinyabiziga, umuhanda w'umukara wa kaburimbo, ruguru yaho naho hari ubusitani hari ibiti bitanga amahumbezi.

Mu muhanda haba hari uruhande hirya rwo guhaparikaho, ku ruhande harimo ibinyabiziga by'ubwoko bwose, harimo moto ziba zitwaye abagenzi, imodoka zitwaye imizigo, izitwaye abantu, amagare, ibinyabiziga by'ubwoko bwose, umuhanda munini hirya y'umuhanda hari ibiti, ukikijwe n'ibiti birebire ndetse n'amatara yo ku muhanda yaka mu masaha ya nimugoroba.

Hano iyi shusho iri kutwereka umuhanda w'umukara, uwo bakunze kwita kaburimbo mu rundi rurimi. Hirya yawo, hari ibyatsi biteyemo ibiti, hakaba n'ipoto rirerire, hirya ruguru hakaba hari n'amazu y'abaturage.

Hano bari kutwereka mu muhanda, muhanda harimo mato, yicayeho n'umumotari. N'umuhanda w'umukara wa kaburimbo m'ururimi rw'amahanga.

Umuhanda wa kaburimbo, ni umuhanda munini ariko uhita uvamo imihanda igenda ahantu hatandukanye, umwe ugenda hepfo undi ukajya ruguru, ukagendamo ibinyabiziga byose harimo n'ahantu abagenzi bambukira hari imirongo y'umweru.

Hano bari kutwereka ishusho, iri kutwereka imihanda ibiri imanuka iva ruguru n'undi umwe, iyo mihanda iza igahuriramo arimo moto, moto ifite ikirangantego cya R, H, magana ane mirongo ine n'icyenda P. N'uwo muhanda, umuhanda wa ruguru uri guturukamo moto, uwo hepfo na wo urimo abantu bake.

Iyi shusho iri kutwereka umuhanda w'umukara harimo mu muhanda harimo ibinyabiziga n'abantu bari kugenda mu muhanda .Hari n'ahantu abaturage bambukira haba harimo imirongo y'umweru.

Mu muhanda munini urimo amagare ni mu masaha ya nimugoroba, umuhanda w'umukara harimo haragendamo abagenzi basanzwe n'ibindi binyabiziga; munini ubona ko ugendamo ikinyabiziga icyo aricyo cyose.

Hano baratwereka mu muhanda bigaragara ko bwije n'atari mu muhanda yatse hari moto ziparitse n'abantu bari kugenda mu muhanda bisanzwe hejuru yikiraro.

Uyu ni umuhanda uri hepfo, ruguru hari inzira y'abagenzi isanzwe, mu muhanda harimo ibinyabiziga harimo amamoto, harimo amagare, imodoka bitwawe n'abantu, mu muhanda munini w'umukara. Iyo nzira y'abagenzi ni inzira ipavomye neza cyangwa se ikoze neza.

Mu muhanda ugendamo ibinyabiziga byose, hari ibirango biba biri mu muhanda, byerekana igihe cy'umugenzi kwambuka, imodoka kugenda, mbese byose biba biri mu muhanda, ubona ko harimo umutekano mwiza, wizewe, hari kugendamo ibinyabiziga, harimo moto, imodoka, ndetse n'abantu bagenda bisanzwe.

Aho imihanda iturutse ruguru, hepfo no ku mpande iza igahurira; urabona ko aha hantu ihurira haba harimo akantu gatandukanya iyo mihanda, kubatse neza, ku buryo buri muntu abona aho anyura. Umuhanda ni munini, harimo ibinyabiziga, abantu baba batambuka ari ibintu bisanzwe.

Mu muhanda munini, umuhanda unyuramo ibinyabiziga byose, umuhanda uza ari imihanda ibiri bikarangira ibaye umuhanda umwe, haba hari kunyuramo abantu, imodoka, amagare abona ko hafite isuku hagaragara neza rwose ni mu mihanda ikeye.

Ku ruhande haba hari ahantu habugenewe ho guparika, hatarimo hagati mu muhanda. Uyu muhanda ni munini hari ibinyabiziga biri kuwugendamo, ndetse n'inzira y'abantu isanzwe. Uyu muhanda ukikijwe n'ubusitani burimo ibiti byiza, amatara yo ku muhanda. Urabona ko uba wisanze harimo nyinshi.